Iduka ricuruza ibintu bitandukanye, mu imbere harimo: filigo y'amabara y'umutuku, inyuma ku rugi hariho icyapa cyamamaza MTN ndetse imbere mu nzu harimo utubido twa Jibu.

Umukobwa wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, ufite ibisuko bisa n'ibara ry'ikijuju, ufite terefone mu ntoki, uri kubikuza amafaranga ku cyuma, akoresheje ikarita igendanwa.

Akazu ka Airtel ni akazu kari mu mabara y'umutuku n'umweru ni akazu batangiramo amayinite cyangwa se bakatangiramo serivisi za Airtel mani harimo nko kubitsa no kubikuza.

Umugabo ukiri mutoya wambaye ikositimu ufite icyapa cyanditseho ngo ohereza amafaranga ku mirongo yose ndetse impande ye hari n'ibyapa bibiri bya Eyateri ku ruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso bigaragaza ko ari kwamamaza Eyateri.

Abaturage bari imbere y'inyubako icururizwamo. Harimo abamotari bari kuri moto ndetse n'utuzu tubiri twa MTN baguraho amayinite cyangwa se bagakoresha Mobile Money.

Umuntu w'igitsina gore ufite agakapu, uhagaze imbere y'akaduka ka MTN ni akaduga kari mu mabara y'umuhondo, ni akaduka batangiramo amayinite cyangwa se serivisi za mobile mani zirimo kubitsa no kubikuza.

Umuntu urimo kuvuga bisa nk'aho ahagaze imbere y'abantu afite mikoro, inyuma ye hari icyapa cyanditseho ngo kanda ijana mirongo inani na kabiri akanyenyeri rimwe, akanyenyeri kabira, akanyenyeri urwego wohereza amafaranga unakire ku murongo.

Abagabo batatu bahagaze impande y'akazu ka MTN, kariho icyapa MTN icya Tigo cash n'icya Airtel money, hirya inyuma yaho hameze nk'ahari ibintu bimeze nk'amadegede.

Umugabo wambaye umupira uriho ikirango cya MTN, umupira w'umuhondo arimo aravuga atanga amakuru, abanyamakuru bafite mikoro y'umuhondo iriho ikirango cya MTN ndetse akaba ahagaze n'imbere y'ikirango cya MTN.

Akazu ka Airtel bacururizamo amayinite, umuntu ari kugafungura imbere yaho imbere muri ako kazu harimo amabara y'ubururu handitseho nimero za telefone.

KU muhanda imbere y'inyubako y'amabara y'ubururu bwerurutse, hari umuntu wicaye mu mutaka wa MTN aho bacururiza amayinite cyangwa se bakoresha serivisi za Mobayilomani.

Abantu bane bicaye mu mutaka wa emutiyene harimo batatu bambaye amajire bigaragara ko ari abakozi ba emutiyene, n'undi umwe ariko utambaye ijire, inyuma ya hari imodoka nyinshi ziri gutambuka no ku ruhande rwa ruguru naho hari imodoka nyinshi zitambuka.

Abantu benshi bisa nk'aho biganjemo igitsina gore, barimo barasanze ikawa ziri ku bwanaikiro ku bitanda bazanikaho, kugira ngo zumuke bamajije kuzihera.

Ahantu mwitente ni ahantu habereye inama hicaye abantu benshi, harimo imbere abantu bahagaze babiri barimo uw'igitsina gabo n'uw'igitsina gore. Uw'igitsina gabo ni umudasso, umudasso ariko udafite ukuboko kumwe kw'iburyo.

Abantu bari mu nama harimo abambaye imipira y'ubururu, abandi bambaye imipira y'umukara barimo baganira n'umuntu uri imbere yabo ufite indangururamajwi.

Abaturage bari imbere y'ahantu hameze nk'urugo bakoreye inama basoje barimo ba...

Abantu bari ahantu hasa n'abahabereye inama, ni abantu bicaye mu tente, abantu barimo abambaye amakasike y'ubururu n'ndi ugaragara ko ari umudaso.

Inyubako y'amagorofa atatu, bigaragara ko ari inyubako y'ubucuruzi kuko ifite imiryango myinshi, imbere yayo hari imodokadoka, iri mu ibara ry'umutuku n'umutaka, bigaragara ko ari umutaka wa MTN.

Inyubako irimo inkoko nyinshi cyane ziri mu byuma byabugenewe, ibyuma bigaragara ko ari byo zitereraho amagi kuko imbere y'izo nkoko hariho amagi bisa nk'a ariyo zateye.

Umugabo bisa nkaho akuze, arimo aravugira muri mikoro yanditseho RBA, inyuma ye hari inyubako yubakishije amabati, isa nkirimo imbaho zipanze, zitari zakoreshwa.

Abantu b'igitsina gabo bari ahantu mucyumba, ni icyumba gifite inzugi za'mabara y'umutuku, ni icyumba gisize amabara y'umweru, ku rukuta kirimo abantu harimo umwe usa nk'aho ari kwerekera abandi bari kumureba.

Abantu batatu bari mu cyumba kimwe, babiri baricaye, imbere yabo hari wotamelino, hari amatunda, hari n'ibyobo, undi uri ku ruhande we arahagaze.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye asize irangi ry'umutuku, ni inzu ifite n'amabara y'imihondo imbere y'aho hari abantu ndetse na moto itariho umuntu.

Icyumba kimeze nk'aho ari akabari, ni icyumba kirimo inzoga nyinshi ziri muri etajeri, zirimo ubwoko bwinshi bigaragara ko ari inzoga zihenze, hari n'izindi ziri ahantu muri firigo zakonjeshejwe.

Icyumba kirimo ameza y'ibara ry'ivu n'umukara, ku rukuta hari aka etajeri, karimo inzoga z'amoko menshi nka pirimusi, amazi y'inyange n'izindi nzoga zitandukanye.

Icyapa kiranga butike Hoteli yitwa Demi - Sheraton kiragaragaza ibyo bacuruza, harimo ibiribwa harimo ibinyobwa, harimo ibinyobwa byoroheje, harimo divayi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inyubako irimo utu etajeri, harimo ikasiye, irimo amacupa, hejuru hariho utubido tw'atanu, inyuma yayo hariho filigo.

Uducupa tune tw'amabara atandukanye tumwe tw'amabara y'ubururu n'utundi tw'amabara y'iroze turirimo kirida zifashishwa mu kurya imbuto cyangwa se mu gukura ibiryo byasigaye mu menyo.

Iduka ricuruza ibiribwa, harimo abantu batatu barimo umugabo, umugore n'umwana, bigaragara ko umugore ari guha ikintu umwana nk'aho umwana aje kukigura.

Iduka ry'ibitenge bizwi nk'imyambaro y'abagore b'abanyafurika ndetse rikunze gukoreshwa no mu Rwanda, ibitenge by'amabara menshi, hariho abantu bari muri iryo duka, biganjemo ab'igitsina gabo ndetse n'ab'igitsina gore batatu.

Butike icuruza amandazi harimo utu etajeri turiho ibintu byinshi ndetse hakaba hariho n'ameza, imbere yayo hicaye umwana, ku meza hariho ibase irimo amandazi.

Iduka ricuruza ibikoresho byo mu rugo, harimo amavuta yo kwisiga, amacrogate, uburoso, amasharijeri, harimo n'amaji yo mu bwoko bwa karungi.

Icyumba kimeze nk'aho kirimo, akantu kameze nka etageri .ni akantu bashyiraho amatureyi babibikamo amagi, ariko ayo maturereyi amenshi nta magi arimo, ariko ahagana ku ruhande hari itureyi imwe irimo amagi abiri.

Iduka ricuruza ibiribwa, ririmo umumama ucuruzamo wambaye ikanzu y'amabara y'umutuku n'ubururu. Afite amafaranga mu ntoki y'inoti.

Ni umuntu bigaragara ko ari umusore ukiri mutoya ni umusore wambaye akapira k'umuhondo, umusore uri guseka bisa nk'aho yishimye, ari mu kabutike karimo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibiribwa ndetse n'ibitekwa.

Iduka ritoya ricuruza ibiribwa ririmo ibiribwa nk'ibinyobwa budaseye, indagara ndetse n'ibindi bicuruzwa, harimo n'umuntu uri gucuruza yambaye itaburiya isa n'umuhondo.

Umuntu w'igitsina gore uri ahantu mu cyumba cy'ubucuruzi, ni icymba kirimo ibintu byinshi bitandukanye by'ibiribwa, ni umuntu ufite telefone mu ntoki, bisa nk'aho ari kwereka umuntu umuri imbere ibiyirimo.

Iduka ririmo umukecuru wambaye imyenda y'umuhondo n'umweru, uteza agatambaro k'umweru arimo aracuruza harimo ibintu byinshi, ibicuruzwa byinshi amaji, amabiswi n'amabombo...

Icyumba cy'ishuri kirimo abana bakiri bato, bigaragara ko ari nk'abana biga muri garidiyene cyangwa se mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, bari mu ishuri ku rukuta yashushanyijeho ibishushanyo, nk'iby'urukwavu, inkoko, ihene n'ibindi byinshi.

Abantu benshi barimo n'abitwikiye imitakaka, imitaka irimo ibara rya move, n'iyi roza, bahagaze imbere y'inyubako ya kiliziya, inyubako ifite umusaraba muremure cyane, ugeze hejuru.

Abantu bari imbere ahantu rwagati muri sitade bafite icyapa bigaragara ko ari icyapa cyanditseho amafaranga batsindiye mu marushanwa runaka, inyuma yabo hari abantu bicaye ahantu hameze nko muri sitade abantu bicaraho bareba umupira.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, bigaragara nkaho ari kiliziya ishaje, ifite umusaraba wubakiweho muremure, ifite n'ahantu binjirira hagenda, bakoresheje sikariye.

Inyubako ya kiliziya ariko ni inyubako itari ngari cyane irimo abakirisitu benshi ariko batari benshi cyane, imbere yabo harimo umusenyeri ufite akapa kanditseho ngo gerayo amahoro iruhande rwe hari n'undi uhahagaze.

Inyubako igaragara nk'aho ari ku ku rugi ku bw'daro ifite amabara y'umuhondo werurutse yanditseho amagambo agira ati epiki hoteli andi sutisi.

Icyumba kirimo ahantu hameze nk'ameza, bateretse akandi kantu kameze nk'isahani ariko ikoze mu biti, iriho umuceri w'ikibumbe, ni umuceri bateka bakawutekana n'ibindi byose, ubundi bakawubumbabumba.

Inyubako ngari mu bugari, inyubako y'amagorofa abiri, isize amarange y'umuhondo werurutse n'andi y'umuhondo wijimye, ifite imiryango myinshi bigaragara ko wagira ngo ni amacumbi abamo abantu benshi.

Inyubako iri ahantu yitaruye, ni inyubako ifite ubusitani bugari cyane, ni ubusitani bugari ku buryo ushobora kwibeshya ko ari ikibuga cy'umupira, aha rwagati mu mbuga harimo pisine cyangwa se ikizwi nk'ubwogero, a inyuma y'iyo pisine hari intebe ni za ntebe bicaramo bavuye mu mazi.

Inyubako nziza yitegeye inyanja irimo intebe nziza zifite amabara y'icyatsi, irimo ameza asa neza, hanze ku kabaraza, harimo intebe, zicarwaho nka zimwe bicaraho bari ku bwogero.

Ameza hariho amasahani abiri, hariho ibiryo bitandukanye byiganjemo imbuto, hariho ibirahuri bibiri birimo imitobe, harimo usa n'uwa orange n'undi usa n'umuhondo.

Inyubako irimo igitanda cya kijyambere gishasheho amashuka afite ibara ry'umweru n'iry'umukara n'imisego y'umweru urugi cyangwa se idirishya rufite ibirahure bibonerana.

Ameza ari bityo, ariho ibirahure birimo inzoga, izwi ku izina rya shampanye, ibiryo birimo amashu ndetse n'inyama n'inyanya.

Icyumba gifite icyo nakwita inzugi cyangwa amadirishya, abonerana y'ibirahure mbere yacyo hari intebe abantu bicaraho bari hanze, mo imbere muri cyo harimo intebe yitwa amadiva.

Icyumba kiriho uburiri busashe neza, imisego ine ibiri ibiri igerekeranyije, hejuru hariho amafoto ameze nk'aho ari ibishushanyo by'inzu byashushanyijwe na lido ku ruhande.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, isize amarangi y'umweru n'umuhondo, imbere yayo hari jareta iteyemo indabo nini zisa neza, indabo zifite ibara ry'icyatsi.

Inyubako bigaragara ko hari ahantu inyubako itangirira, ahantu hari esikariye zizamuka hejuru, hari ahantu hari intebe abantu bicaraho, hari ahantu hameze nk'ahari ahandi hantu n'aho bicaraho hatari intebe.

Intore ziri kubyina, harimo imwe yabaserukiye iri ahantu hameze nko ku rubyiniro yambaye umugara muremure cyane n'abandi bari inyuma bisa nk'aho bari kuririmba.

Icyumba kirimo igitanda gishashwe amashuka y'umweru, gifite imisego, harimo intebe z'icyatsi ebyiri n'ameza n'izindi ntebe zisanzwe zitara amadive.

Abantu bameze nk'abari kuganira barimo abagore batatu, undi muntu w'igitsina gabo bari kumwe bari ahantu rwagati mu modoka, inyuma hakurya yabo hari n'abandi bantu, harimo n'umumotari wambaye kasike bifashisha batwaye moto.

Imihini myinshi abanyarwanda bakunda kubaza mu gihe bagiye gukwikira ibintu runaka nk'amasuka ibitiyo, imihini myinshi irambitse ahantu k'ubutaka hariho umumama usa n'uri kuyireba areba uko imeze.

Ahantu mu isoko, ni isoko rigaragara ko ririmo abantu benshi, isoko ricururizamo abacuruzi benshi bafite ibintu bitandukanye, harimo ibiribwa, bamwe ni abantu bari gutambuka bigaragara ko bafite icyo baje gushaka mu isoko.

Mu isoko aho abacuruzi bacururiza abagura bakagura, harimo ibintu bimeze nk'amakara bacanisha harimo intebe, ameza ariho ibintu bimeze nk'amavuta bacuruza.

Inyubako imeze nk'ahantu muri resitora, ni ahantu harimo ameza, ari kumwe n'intebe enye ni intebe zimeze nk'iz'ubwegamiro ariko ngufiya cyane, zikikije ayo meza.

Ahantu mu cyumba kimeze nk'aho hari icyumba cya resitora isa n'ihenze, ni hantu hari ameza ariho utuntu tumeze nk'udusorori tubumbye mu ibumba, kuruhande rwameza hariho intebe, ariko intebe zimeze nkaho atari iz'ibiti.

Abamotari babiri bari mu muhanda barimo baganira n'undi mugabo bigaragara ko na we yari ari kuri moto cyangwa se akaba ari umumotari, kuko yambaye kasike y'abamotari n'abandi bantu babari inyuma benshi.

Abagabo batatu bicaye ku igare rya ruvakwaya ririho n'umufuka, igare ry'amabara y'icyatsi n'umuhondo riri kugenda mu muhanda, imbere y'akazu gafite inzugi z'amabara y'ubururu.

Ahantu mu muhanda harimo umumotari, umumotari wambaye akajire k'umutuku, imbere ye hari umuntu w'igitsina gore ariko ukiri mutoya ufite igikapu, bigaragara ko umumotari agiye kumuha akasike ngo yambare bagende.

Umugabo utwaye moto uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ufite mvirope ibikwamo impapuro, inyuma ye hari igipangu gisize amabara y'ubururu hariho ikirango cya Pirimusi ndetse n'ikindi cyapa kigaragaza aho abagenzi bajya.

Abagabo babiri, umwe bigaragara ko ari umumotari, undi bigaragara ko asa nk'umukanishi arimo arareba uburyo motoyi imeze, undi usa nk'aho ari umumotari nawe, arimo aramureba, areba ibyo akora.

Umumotari uhetse umugenzi bari mu muhanda wa kaburimbo cyangwa umuhanda w'igitaka, inyuma yabo hari ibigaragara nk'ibigo by'amashuri, nk'inyubako z'amashuri ku ruhande rw'inyuma ku ruhande rw'iburyo.

Umuntu utwaye moto ku muhanda wa kaburimbo, ahetse gaze icupa rya gaze inyuma ye hari inzu z'ubucuruzi hariho inzu yanditseho forutebeti ariho babetingira.

Umuntu uri kuri moto uhetse umufuka w'ibirayi. Umufuka urimo imboga ndetse n'ibindi bitoki bibiri binini, bihambiriye byose kuri moto.